Ahantu ku mbuga hashashe shitingi h,ariho imifuka igerekeranya abantu bari kugenda bayiteruye, ababyeyi baraterurana n'abagabo bamwe bagaterurana umufuka, harimo ababyeyi batatu n'abagabo batatu.

Ni ahantu mu cyaro hari iriba bapompa, hirya yaryo hari ikibuga kinini kiriho ibyatsi byinshi gikorotesheje ibiti birebire, hari abana bane b'abahungu baje kuvoma, umwe ari gupompa abandi batazeze akajerekani k'umuhondo, umwe muri abo bana yambaye bote, ikabutura y'ubururu n'umupira w'umutuku, afite inkoni mu ntoki.

Niku inzu mberabyombi y'umurenge ,habaye inama y'abajyanama b'ubuzima, bafite akamwe kubw'inama bagiriwe n'ubumenyi bongerewe ,bahawe inifomu nziza cyane n'imipira ya orange n'amajire y'icyatsi baranezerewe kuko iyi nama yarikenewe biyongereye ubumenyi bari bujyane mu baturage.

Ni ifoto iriho abantu babiri bishimye. Umwana n'umubyeyi barikumwenyura. Bari ahantu mu murima hari n'ibyatsi. Hari ikirere gikeye cy'ubururu n'umweru. Inyuma yaho hari igikuta. Kuri icyo gifoto hejuru ku kirere handikishijeho amagambo y'umukara. Hari akabara ka orange. Hasi ku ifoto hari ibara rya orange ryanditse mu magambo y'umweru.

Ni ifoto yafatiwe hanze imbere y'umuryango, hasi hari sima itukura, hirya hari giriyaje, hari umukindo wayo, hari jaride, iyo nzu ifite amatafari ahiye, ifite amadirishya y'ibirahure isize irangi ry'umuhondo, nk'abantu bambaye imyenda itandukanye, abagore bambaye amapantaro n'abako n'abandi bambaye amakanzu ndetse n'abagabo.

Ni ku iriba ry'amazi riri ahantu hatuje, hadateye ubwoba n'ubwo hari ibyatsi ntago ari byinshi hakorerwa isuku. Rifite robine idafungwa ihora imena amazi. Hari akana k'agakobwa kari gukina n'amazi, hari amajerekani atatu, ay'umuhondo ni abiri na kamwe k'ubururu. Hirya hari ingiga y'igiti.

Ni ikigo cy'amashuri, kiriho amarobine, amena amazi, hariho ibipapuro by'umweru byometse kuri ayo marobine, hari abanyeshuri abahungu n'aba bakobwa base bambaye impuzankano za kaki hasi no hejuru, harimo abanyeshuri bambaye bodaboda z'umutuku n'iz'umukara, abahetse amabage inyuma yabo abegereye ku gikuta harimo agahungu kambaye umupira wa orange.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo ababyeyi bafite abana batoya baje gupimisha, ni ahantu munsi y'igiti, hari igicucucucu cy'ibiti, bicaye ku ntebe z'ubururu n'iz'icyatsi, hari abana benshi, abenshi biganjemo abari munsi y'imyaka itanu baje gukinjiza, hari ikibokisi cy'umweru giteretse ku kameza, muganga yambaye itabura y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa.

Ku ivuriro hari urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abenshi ababyeyi batwite, abana batoya n'abagabo, turacyari muri bya bihe bya kovide cumi n'icyenda guhana intera hagati y'umuntu n'undi cyangwa se aho bidashoboka twambaye agapfukamunwa nta kibazo, turi ku murongo tujya kuri serivisi za kwa muganga

Ni umwana uri ku iriba usutse udututa, wambaye ikanzu y'igitenge yiganjemo amabara atukura n'ay'umweru n'ay'umukara, inyuma ye hari igikuta cyubakishije buroke, ari gukina n'amazi, robine nini idafungwa, afite ibasie y'umukara, amazi ni ho ari kugenda ajya.

Ni agasahane k'icyuma, karimo utuntu bita ibitoryi bakururisha umuti. Ibyo bitoryi ni bitandatu bifite utubara tubiri; ak'ubururu kari hagati y'iryumweru, hepfo ari iry'umweru n'ahandi ari iry'umweru ariko hagati hakaba harimo ak'ubururu harimo n'agacupa kamwe kabamo umuti.

Na akana gatoya k'agakobwa kareba neza kari gukaraba kambaye agashati k'umutuku ahinnye kaboko robine ifite agafungo k'umutuku namwe ifunga hariho icyapa cyanditse mu magambo y'umukara hari n'akabara ka orange ariko hari irangi yt'umweru.

Ni abagabo babiri bicaye muri ofise; inyuma yaho hariho icyapa gifite amabara abiri ry'ubururu n'iry'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ari mu ibara ry'ubururu, n'ayanditse mu ibara ry'umukara ari mu ibara ry'umweru. Harimo idarapo rya Sudani, hariho utujenda n'udupipa twa mazi dutatu.

Ni iyi i foto y'urwibutso yafatiwe imbere y'umuryango w'inyubako, abayifashe bari bahagaze kuma esikariye azamuka ajya muri iyo nyubako. Impande habo hari icyapa, ku rundi ruhande haradekoye. Igizwe n'abantu cumi na bane batanu muri bo n'igitsina gore abandi icyenda n'igitsina gabo, bambaye neza ,barasa neza.

Ndabona abantu batatu ababyeyi babiri n'umwana wabo bashyizemo agarwaye basindagiza irya hari abandi batatu bari kubashungera umubyeyi papa afite akabando mu ntoki bafashe umukobwa we ku rutugu bamujyanye kwa muganga bambaye imyenda ishaje bagaragara nk'abakene ariko afite urukundo.

Ni ikarita ya mpande enye ifite amabara atatu atandukanye umweru w'ubururu bw'ijimye n'ubururu buke nk'ub bwijuru abantu babiri bahagaze bahuje inkokora bambaye ikabutura nuwambaye ipantaro bose bambaye umwenda w'ubururu mu ibara ryo hagati handitsemo amagambo agaragara cyane yandikishije ibara ry'umukara.

Ni akana keza k'agakobwa gasuste derede kareba neza gaseka neza karya biswi kambaye inifomu y'umweru n'ubururu kicaye kuri sheze kashyize ukuboko kumeza, inyuma yoko hari akandi kana kambaye agapira k'umutuku n'umubyeyi wambaye igitenge kirimo umuhodo n'ubururu nagasharupe ku 'umutuku.

Ni abana benshi bafite urusaku, bameze nk'abari kuririmba cyangwa nk'abashakuje, barishimye, harimo abaseka, abari kumwenyura gake, abarangaye, nk'agakobwa kambaye agakanzu k'umuhondo n'akapira k'umweru kararangaye.

Ni muri salle irimo abantu benshi cyane. Bicaye batuje batumbiriye ahantu hamwe. Abagabo n'abagore harimo abambaye imyenda y'imikara, imyeru, imituku. Abafite imisatsi myiza naturelle, abasutse, bose rwose ubona bakeye.

Ni umukobwa useka neza umasaro agaseseka afite amenyo meza yuzuye atari inatane afite iminwa myiza afite intoki nziza ebyiri ari kwerekana umusatsi urabona ko utsitse kandi ari muremure mwiza w'igikara afite amazuru meza n'akanwa keza n'ijosi ryiza.

Ni umuganga w'amenyo ufite amatwi manini n'umusatsi mwiza w'igikara ushitse wambara lunette, biganza bye uko ari bibiri bihuriye ku ifoto imwe, ari kutwereka uburyo imizi y'amenyo yacu iba imeze abanatugira inama uko twarinda amenyo yacu kugira atarwara.

Ni umugabo utari inzobe kandi ntabe n'igikara; yambaye agapira k'umweru afite ubwanwa buringaniye haba hasi haba hejuru n'ibitsike biringane, arareba byoroheje. Afite urudodo mu biganza byombi ariko yanyujije mu kanwa, arasamye nubwo atasamye cyane; urudodo rwe rufashe mu menyo abiri.

Ni kwa muganga, umusore araryamye, yambaye agapira k'umukara, arareba hejuru, afite umusatsi, arasamye, urutoki ruri kwerekana iryinyo arwaye, imbere ye hari umuganga wambaye ga z'ubururu, ufite akantu k'umweru mu ntoki kariho amenyo.

Ni ifoto y'umusore mwiza, useka neza, ureba neza, afite ibisike byinshi, ufite umusatsi uringaniye, amatwi ye aragaragara, afite ubwanwa, afite fosete, yambaye agakote k'ikoboyi gafite igipesu cy'umweru, yambaye mu imbere agapira ka shokora. Aramwenyuye ijosi rye riragaragara, inyuma ye hari akantu k'uturabyo tumeze nk'uduperereza.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo abaganga babiri uwambaye itaburiya y'umweru n'uwambaye iy'ubururu, bose bambaye amarinete bambara n'udupfukamunwa na ga mu ntoki z'umweru, hari umuntu uryamye w'igitsina gore bari kureba mu kanwa, nk'aho yaba arwaye iryinyo, hari ameza ariho ubuntu bwinshi butandukanye.

Umusaza w'umusirimu rwose ikigaragara yarize gukora asobanutse afite imvi yambaye lunette afite akantu mu ntoki imbere ye hari indorerwamo munsi y'indorerwamo hari lavabo isabune korogate ibumoso arahagaze arasa neza.

Ni mu nzu ifite purafo y'umweru, ku nkingi imwe hasize irange ry'umweru, ikindi gikuta ni icy'amatafari ahiye. Harimo abantu babiri n'intebe zisa shakora. Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, washyize ukuboko ku ntebe. Umukobwa wambaye baji, ufite akantu k'ubururu mu ntoki, wambaye n'imyenda y'ubururu.

Ni abantu babiri, umubyeyi n'umukobwa we. Umubyeyi yicaye mu ntebe z'imisego umukobwa we yunamye ku iyo ntebe amufashe mugatuza bafatanye amaboko. Bose basutse menshi, umubyeyi yambaye amaherena n'impeta, umukobwa yambaye agasaha ku kuboko, yambaye umwenda w'ubururu ufite amaboko magufi n'agapira k'umweru gafite amaboko maremare.

Inzu igaragara nk'aho ari iy'abasilamu kuko abantu bicayemo abenshi urabona ko ari ab'idini rya Isilamu bambaye utugofero, barakenyeye, bicaye hasi ku makeka, hari n'ufite akantu k'agatebo mu ntoki nkaho ari kubigisha kuboha.

Ni umu umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe, n'ubwo bashaje ariko basazanye urukundo mu byishimo byinshi nakamenyu umukecuru afashe umusaza we ku rutugu yambaye agakomo ku kuboko yambaye agatambaro k'umutuku n'ikote ryiza umusaza w'imvi nyinshi anari kumuha akabizo ku itama.

Ni mu nzu irimo amakaro, hariho ibintu by'ibyuma bagenda bafasheho, hariho amasikariye asize irangi rya orange, harimo ubukoresho butandukanye, harimo ububogisi bufite ibara ry'umweru, bufite ibara ry'ubururu n'ibara ry'umuhondo, hari umusaza wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura, afashwe ukuboko n'umukobwa wambaye imikara hasi no hejuru.

Ni umusaza n'umukecuru b'abasirimu baba bajyanishije bose bambaye udupira tw'umutuku ariko umukecuru we harimo akabara k'umukara. Ku meza hari ibinini n'indi miti itandukanye, hari rinete z'umukecuru hirya hari kato icometse ku muriro.

Ni abantu babiri bari muri siporo, umwe ni umuzungu, afite imvi nyinshi mu mutwe, ariko harimo n'umusatsi w'umukara mukeya, yambaye agapira k'umweru, yambaye isaha, ni igitsina gore. Ari kumwe n'undi mugabo w'igikara na we wambaye agapira, wambaye impeta, wambaye n'isaha ku kuboko.

Ni mu nzu ifite amadirishya ya mpande enye, umutambiko wayo harimo ibara rya shakora. Ni abantu babiri harimo umukecuru ukuze, ufite umusatsi w'umweru wambaye n'amaherena y'umweru urambuye amaboko, ari kumwe n'umukobwa ufite umusatsi muremure, wambaye agapira ka ruje borudo, ufashe ukuboko kumwe k'uwo mukecuru amwereka uko akurambura neza.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku ntebe amaboko yabo yose ari ku m ari imbere yabo umukecuru afite umusatsi mwinshi urimo n'imvi, nyinshi afite agapapuro mu ntoki yambaye impeta eshatu, ebyiri ku kiganza kimwe indi ku kindi kiganza afite urupapuro mu ntoki; umusaza yambaye impeta akanambarara na shenete ku kuboko yambaye n'agapira k'ubururu bose amaboko yabo ari kumeza.

Ni umusaza uri kumwenyura ufite imvi nkeya mubwanwa no mu musatsi ureba byoroheje wamba agapira k'ubururu n'umweru gafungishije ibipesu by'umukara imbere ye hari undi muntu utagaragara neza ukuboko kwe kure kumeza yambaye akapira k'umweru kaga t shirt.

Ni umusaza ufite uruhara, unafite imvi, afite n'imvi mu bwanwa, afite terefone mu ntoki ari kumwe n'umukobwa wambaye baje, bambaye ubururu, imbere ku meza hariho akantu k'umukara.

Na ahantu mu kibuga heza hitaruye hirya gato harira urubuga, imodoka ibyapa ,urugo rwiza indabyo ibiti birebire, inzu ifite irangi ry'umweru kandi mu buryo bugaragara nini, hari umukecuru mwiza uteye ubwuzu w'umusatsi w'umweru wambaye agapira k'ubururu n'umushanana ufite microphone y'umutuku mu ntoki ari gushimira ubuyobozi bwacu.

Ni kwa muganga ndabona abaganga bagera muri batanu bose basambaye udupfukamunwa hanze hari umurwayi uryamye ba harimashini zica migozi imaze mu myuka yongerera abantu umwuka n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ni uruvunganzoga rw'abantu ariko bagaragara nk'abasirimu cyane, ko abagiye bambaye imyenda ijya gusa baregeranya amakoti y'imikara, n'amakaruvati y'imituku bagiranye, imyenda y'icyatsi, bafashe ifoto y'urwibutso, iruhande yabo hari ibyapa, bari munzu nziza, yasize irangi ry'umweru kigaragara cyo barishimye ku buryo ifoto itazava ku mitima yabo.

Ni ifoto iriho abantu batatu ariko inyuma yabo hariho impapuro nyinshi zanditse mugambo. umwe yambaye itaburiya y'ubururu, undi yambaye ijire y'umukara, undi yambaye jire y'icyatsi. Bose bambaye masike, bose ni igitsina gore, umwe yambaye rineti, imbere yabo hari icyapa cy'ubururu ariko cyanditse mu magambo y'umweru.

Ni inyubako nziza ndende kandi ngari, iteye irangi ry'ubururu n'irindi rijya kwijima, isakaje amabati y'ubururu, mu rubavu rwaho harimo akabingaro, mwako kabingaro harimo abagabo batanu, imbere yaho harimo jaride nziza, hagati muri jaride harimo umukindo, imbere y'iyo nzu hari imodoka ya rava, kandi inyuma y'iyo modoka harimo abagabo bane.

Muri laboratwari aho babika imiti, bakanajyana n'ibizamini biba byafashwe kugirango hasuzumwe ndwara abarwayi bagiye bafite, muganga afite icupa mu ntoki ripfundikishije agapfundikizo k'ubururu, yambaye ga z'ubururu ari ku mashini areba ripoti zivuye mu kizamini afite mu ntoki.

Ni inyubako nziza itangaje ifite inkingi mo hagati iriho utuzenguruko tubiri iriho ama esikariye agizwe n'ibara rya kaki andi ajya kwijima umweru ujya kwijima hasi harimo amakaro hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'iry'umukara n'iry'umweru.

Ni icyumba ubona kinini kimeze nka sale, harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri siporo. Izo ntebe bicaraho bakegama bananura umugongo n'amaguru, harimo za ariteli bigizwe n'amabara atandukanye. Ayiganjemo ni umukara, umutuku n'umweru.

Ni inzu nziza ibereye ijisho Igizwe n'imiryango irenga itatu irimo amakaro y'umweru ifite ibirahuri imbere yayo hari imodoka hejuru hariho icyapa kiri mu mabara abiri y'icyatsi n'umweru umwe mu miryango ingize iyo nzu hariho kizimyamwoto.

Ni mu nzu nziza itangaje irimo amarange atandukanye umuhondo, umweru, oranje, harimo indabyo, haririmo intebe, haririmo vandarateri, harimo kamera harimo n'inkingi eshatu zifashe purafo y'iyo nzu.

Ni inzu irimo amarobine menshi n'amaravabo, harimo puberi muri iyo nzu irambitse hasi ku makaro, harimo utuntu twa yetajeri, hirya kayatejeri kamwe hariho akantu k'akabokisi k'umutuku, hirya ku kandi karavabo hariho ikintu giteretseho cy'umukara.

Ni inzu nziza kandi ngari ifite icyapa cyanditseho amagambo afite amarangi atandukanye aho ibara ryo mu cyatsi cyeruruka umuhondo, umweru, umutuku hejuru harimo kamera hari uruziga rw'amatara hejuru muri purafo.

Ni inzu nziza irimo amakaro hasi harimo n'intebe y'umweru, hariho kontwari igizwe n'ibice bibiri, hejuru ni igice cy'ibirahure hasi n' igice cy'utubati ariko dusize amabara abiri; iry'icyatsi n'iry'umweru. Harimo imiti itandukanye hejuru irimo kompiyuta mu gisenge harimo amatara abiri, handitsemo n'amagambo hakoreshejwe ibara ry'icyatsi.

Ni inzu irimo udukoresho dutandukanye hari icy'umutuku kinini waryamaho, hari udutoya twamande enye wa ugenda ukandagira, uk'umuhondo, ak'umweru, aka oranje, nak'ubururu harimo ibintu by'ibikara wagira ngo babyicaraho, hari no hejuru ibihaze ibipirizo by'umutuku n'ibyicyatsi.

Ni mu cyumba basuzumiramo. Harimo abantu babiri umugore n'umugabo. Umugore ni umuganga yambaye masike, yambaye itaburiya na ga z'umweru, ari gusuzuma umugabo uryamye ku gatanda, wambaye masike y'umukara n'ingofero, ufunze ingumi wambaye agakomo ku kuboko, bari kumutera agashinge. Araryamye yambaye inkweto.

Ni icyumba kirimo imashini eshatu, intebe eshatu, amafoto ameza atandukanye ku gikuta isaha igikuta gisize ibara ry'umuhondo hasi harimo amakaro ya shokora.

Ni mu mujyi i Kigali kwa Nyirinkwaya. Hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru, ariko cyandikishijeho amagambo y'ubururu n'ay'umukara. Hari akantu ka MTN, akazu ka MTN k'ibara ry'umuhondo, hari umukindo, hari giriyaje, hari inzu ya etaje, hari idarapo ry'igihugu. N'utundi tuntu dutandukanye.

Ifite amakaro meza y'umweru, isize irangi ry'umweru, amadirishya yayo n'imiryango yayo byose ni ibirahuri, hasi hariho akabara ka shokora, hejuru hariho Fizibure, hariho kamera y'umukara, hariho ka Vandarateri, hejuru harimo agaparafo kabonerana.

Ni inyubako nini kandi ikomeye. Yubakishije amatafari ahiye. Ifite amadirishya y'ibirahure. Ifite jaride nziza kandi nini hanze, ifite inkingi ebyiri zisize irangi ry'umuhondo, hariho intebe ndende yicayeho abamama bambaye bitandukanye, ifite akarange k'umweru gatambitse kanditse hihishemo amagambo y'ubururu.

Ni umusore ubona w'ibigango ufite ukuboko rwose kugaragara wambaye agasengeri ufite umusatsi mukeya ari gusa nk'ureba ahantu ku izuba ariko ritarasa cyane, ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu rifite umupfundikizo w'umukara.

Umugabo w'amapinya rwose wateruye, wakoze siporo zihagije, afite uducakwaha dukeya mu kwaha kwe, asa nk'uwikoreye amaboko, yambaye isengeri ijya kuba umukara, ni ku kazuba katari kenshi, yicaye ahinnye amavi kuko ukuguru ntabwo kugaragara neza ariko ivi ryo riragaragara, hari ikirere gikeye.

N'abantu babiri, uwinyuma iminwa iragaragara ariko bose ntabwo amasura agaragara. Umwe yambaye itaburiya y'ubururu ameze nk'umuganga uri kwigisha uyu w'imbere wambaye agapira k'umweru, hasi yambaye umukara n'umukandara w'umweru mu ntoki amaboko yahuriye ku kintu, ameze nk'uri kwiga kugenda.

Kubyibuha ni byiza turabikunda akeshi iyo uri ikibaju uba ubona usa neza kandi n'abakubona bakabona usa neza, gusa ntakintu kitagira ibyiza nibibi, hano hari umukobwa nawe arabyibushye ariko yagize ikibazo mu ivi yaje guhura na dogiteri wambaye isaha nziza cyane, ari kugenda amukanda ku mavi amugira inama yakora ya kwita ku buzima bwe.

Ni icyapa kiri kwamamaza ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari kompiyuta, hari telefone, hari n'utundi dukoresho dutandukanye uturi mu ibura ry'umukara iry'ubururu n'iry'umweru, hari umukobwa w'umuzungu ufite umusatsi wa shokora ufite tuvugane y'umweru ku gutwi n'agapapuro kari mu ibara ry'iroze mu ntoki.

Ni umugabo isura ye ntabwo igaragara, ukuboko kumwe kurarambutse ukundi kugufasheho gufatishije akantu k'agatambaro k'ubururu agenda yikanda, yambaye isengeri y'umukara, umupira w'umweru yicaye ku ntebe z'umweru.

Mu icyumba cyo kwa muganga, harimo abantu batatu, muganga yambaye imyenda y'ubururu na masike n'umubyeyi yambaye masike, ateruye akana kambaye agapira ka oranje karimo ibara ry'umweru ku kuboko n'umukara, ku meza hariho ibikoresho bitandukanye bifite imigozi myinshi igiye ahantu hose ubona hacometse.

Ni umuntu uri gusimbuka wambaye agakabutura n'agasengeri bya siporo, hari karoti impande hari pome, hari imizabibu, hari mashu, hari icunga hari ndimu, harimo imiteja.

Ni ishusho y'ukuguru ariko kutari uk'umuntu ahubwo ni insimburangingo. Yakwifashishwa ku muntu wabuze ukuguru. Guhera mu ivi kugeza hasi ku kirenge. Ifite amabara abiri, iry'umukara n' iry' ivu.

Ni icyapa cyandikishije amagambo y'ubururu, hariho icyenda ricuritse mo hagati muri iryo cyenda harimo akadomo, hasi harimo akabara k'umukara handikishije amagambo y'umweru, hari umugabo wambaye ikabutura y'umukara uri kwikanda hejuru mu itako, aho ari gukanda hari ibara ritukura ahandi hose ni umukara.

Ni agacupa kamwe gafite umukondo, gafite umupfundikizo, ujya gukora nka robine gasa umweru gafite icyapa cy'umukara, hari akantu k'akaziga k'umutuku, handitsemo amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hagahera ahandikishije ibara ry'umuhondo.

Ni umugabo usa nk'uryamye ariko ataryamye, arababaye, afite iminwa itukura, ubwanwa bukeya, yambaye agakoma, yambaye impeta, yambaye ikintu kimeze nk'igisogisi cyangwa nka ba mu ivi ari kwikanda, icyo kintu kirasa umukara ariko harimo akarongo kamanutse k'umweru, yambaye umupira w'umweru.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyeruka, harimo udushushanyo dutandukanye, handikishijemo amagambo mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru, hariho umuntu wicaye, uri gutera baro, uri kwiruka ku cyuma, uri gutera siporo, uri kwicunga ku giti, isaaha n'utundi twinshi duta.....

Ni umukobwa w'inzobe wicaye ku buriri bushasheho amashuka y'umweru, afite igipfuko cy'umweru ku kuguru ku iburyo, ntabwo isura ye igaragara mu maso, berekanye igice cyo hasi, yambaye umupira w'ubudodo bwa oranje, yambaye akantu kagufi, afite mu mavi heza.

Ni umugabo wahuye n'ikibazo cy'imvune, ari kwa muganga ari kugenda yikanda n'utuzi dushyushye n'agatambaro k'ubururu, agenda akanda gake gake ubwoya buryama, ubushyuhe bwinjira mu mubiri kugirango ngo akire.

Ni ameza manini ariho ibintu bine bitandukanye harimo agatebo kariho imboga isahani iriho imbuto indi sahani iriho ibikomoka ku matungo hirya hariho akantu k'umukara gashashe kariho agakoresho gakoreshwa batunganya ibyo bintu byose.

Ni inkweto y'umukara ikomeye, irambitse hasi ndende, iriho intoboro, hariho rase, hariho n'imashini ifite akantu k'akapa k'umweru, ariko handikishijweho amagambo y'umukara.

Ni igiti bita umusave, kiba gifite amababi maremare, ku ishamigi hariho utubabi twinshi kandi dusongoye, hasi hashashe ibyatsi ibivanze n'ibyumye bitaruma neza, harimo igiti kirekire kibyibushye hirya hakabamo n'utundi dutatu ariko tureture.

Ni icyatsi giteye hasi kirandaranda kigenda kiryamye, gifite uruti rurerure gifiteho uturabyo tujya gusa roza mo hagati harimo umuhondo n'umweru, gifite ibibabi binini by'icyatsi bimeze nk'amashu kiri hasi ku butaka.

Ni agaparato karambitse ahantu ku meza, kariho agacupa k'umweru kariho icyapa cya oranje ariko cyandikishije amagambo y'umukara, hasi hatambitseho akabara k'ubururu, hariho udukeke tw'ironje niba atari utw'indimu, hakabaho ne n'ubuki.

Ni icyatsi gifite uruti kirekire. Gifite amabibi manini agaye. Giteye mu ishyamba, hirya hari ibindi biti ,hasi hashashemo ibyatsi byumye, ni ibiti bishobora kuba cyitwa umuravumba.

Ni akabati gafite imyanya itatu yose yo kubikwamo harimo amacupa atandukanye haba ku maforomo haba no ku mabara hari n'abantu babiri batandukanye ariko bose yambaye imyenda y'imyerohe, hejuru hirya hari umukindo hari inzira ishashemo amapavein hari kaburimbo ifite ibara ry'umweru mu ru mpande hirya y'umuntu umwe uri muri kaburimbo hari moto.

Icyapa cya mpande enye kiriho amafoto cumi n'abiri y'ibyatsi bitandukanye, afite ibara ry'umuhondo, icyatsi cyijimye n'icyeruruka, afite ibimeze nk'imbuto ibindi bifite ibimeze nk'amahwa.

Ni ibyatsi bifite amababi maremare imbere, inyuma yabyo hari inzu hariho senyenge hariho ikintu cy'umukara, harimo amabuye hejuru nk'akantu kagaragara k'ubururu umenya ari ururabyo rwabyo.

Ubuvuzi gakondo bugira umumaro kuko butuma twita ku bidukikije turimbisha iwacu, dutera imbuto, imboga, indabyo nziza iwacu hagasa neza ariko kandi tunifitiye ivuriro mu muryango.

Ni udukoresho dusa nk'udukoreshwa mu kuvura bya kinyarwanda, twiganjemo ibintu byumye, harimo udushyimbo dufite ishusho y'inzuzi, ibyatsi bimeze nk'imyumbati, utuntu dutatu tw'umweru tugerekeranye n'agafite iforomo y'isekuru n'umuhini wayo.

Ni uducupa turindwi tubiri tubiri tugiye dusa kamwe niko gasa ukwako k'ubururu. Tubiri ni icyatsi utundi tubiri ni ubururu bwijimye, utundi tubiri n'umweru ujya kwijima. Dutatu muri two dufite forume nk'iya korogate, handitseho amagambo. Akandi k'ubururu kameze nka parufe.